Umugore ufite mikoro wambaye ikanzu ya ruje borudo yambaye isaha yambaye na rinete, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi imbere ye hari imitwe ibiri y'abantu.

Abantu benshi bicaye ahantu mu cyumba kimwe, aba bantu harimo abantu bambaye imyenda isa, harimo n'abambaye ibidasa n'iby'abandi. Aba bantu imbere yabo hari abandi bantu bambaye imyenda isa bari kubyina ndetse inyuma abandi bahagaze.

Abantu benshi bicaye ndetse abandi bane babicaye imbere, imbere yabo hari icyapa cyanditse ngo rubyiruko menya amateka yawe, aba bantu bari guhabwa ibiganiro bitandukanye bijyanye no ku mateka y'urubyiruko.

Umugabo uhagaze ufite mikoro, yambaye amarinete, yambaye ahantu hakoreye imitako, uyu mugabo ahantu ahahagaze iruhande rwe hari intebe ndetse hari n'ururabyo.

Umugore uhagaze ndetse imbere ye hari mikoro ndetse uyu mugore ahagaze ahantu imbere y'abandi ari kuvuga ndetse uyu mugore yambaye ishati y'umweru, ahagaze imbere afatishije ibiganza bye kuri aya meza.

Abantu benshi bicaye hamwe ndetse imbere yabo bicaye iruhande rw'ameza, aba bantu ahantu bose ku meza hateretse ubucupa butandukanye ndetse hari n'indabyo, aba bantu ni abagabo n'abagore ndetse bamwe na bamwe bari kureba hamwe, abandi bakareba aho bishakiye, imbere yabo hicaye undi muntu ufite mudasobwa.

Umugabo ufite mikoro ndetse ahagaze imbere y'icyapa cyanditseho imbuto, inyuma ye hari abantu benshi, hari n'abandi bantu bari haruguru mu ihema rihubatse, bahagaze mu byatsi, abandi baricaye, harimo abana batoya, urubyiruko, abakuze ndetse n'abamama.

Abantu bicaye ndetse harimo urubyiruko n'abana n'abagabo, aba bantu imbere yabo hari abafite amazi, hari n'abafite ibinyobwa biri mu ducupa by'imitobe ndetse bicaye ku ntebe bose zifite ibara rimwe.

Inkono irimo ibishyimbo, inkono yo mu ibumba irimo ibishyimbo n'ibigori, iruhande rwayo hari umuntu, hagaragara ikirenge cyambaye ipantaro y'ubururu n'inkweto zifunze n'urwego ruzamuka, hari umugozi kandi yateretse ahantu h'igitaka bisa nk'aho bihiye bino ibigori bimeze nk'ibihiye bigiye kuribwa.

Hari inyubako nyinshi z'amazu kandi zose zubatse ku murongo zubatse kimwe zigenze ku murongo umwe zifite amarangi asa, hari abantu benshi abacuruza amayinite hakurya yaho hari ibiti, hakurya yaho hari igishanga ndetse izi nyubako zikikijwe n'umuriro w'amashanyarazi, hari abantu benshi abamama, abagore, abana bato ndetse n'urubyiruko bose hano hantu barahahuriye.

Umuntu wuriye igiti kirimo amasinga y'imiriro, ayo masinga y'imiriro ajyana umuriro mu mazu ari aho ngaho ahegereye. Ni amazu yubatse ku murongo kandi yose afite ibara rimwe, hakurya yayo hari ibiti ndetse hari n'imisozi.

Uru ni urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi ndetse aha ahantu ruteye haba insinga nyinshi zitanga umuriro w'amashanyarazi mu mpande nyinshi zitandukanye, iruhande rwawo hari ibyatsi ndetse hari n'ibiti, uyu muriro ujya mu ngo z'abaturage.

Umuntu uri kurira igiti yambaye ibyuma mu kaguru uyu muntu afite n'ibindi bigozi bimuziritse ku giti uyu muntu yambaye n'ingofero mu mutwe, uyu muntu arikurira igiti kiriho amasinga maremare.

Abantu bari kugenda mu muhanda uri kuri moto ndetse no ku igare n'abandi bari kugenda n'amaguru, iruhande rwabo haparitse ibimodoka binini cyane birimo biparitse ku murongo ndetse ni umuhanda w'igitaka. Uyu muhanda iruhande rwawo hari ibyatsi.

Iki ni icyapa kigaragaza muri Uganda kuko kiriho n'ikirango kiyobora abantu bajya muri Uganda, iki cyapa ni kirekire aya magambo yacyo yanditse mo hejuru aho umuntu wese yabasha kubona, iki cyapa aho kiri hari ibyatsi.

Inzu zubakiye kandi zifite n'anekisi imbere, izi nzu zifite indabyo nziza ku miharuro yazo ndetse zifite n'amazi y'ubwogero hanze, izi nzu inyuma yazo hari ibyatsi ndetse n'impande yazo hazengurutsemo ibyatsi, birimo n'indabyo.

Icyapa cya bariyeri cyubatse ku muhanda wa kaburimbo hari umuntu uri gutambuka yambuka ndetse iruhande rw'iki cyapa hari indabyo hakurya yacyo hari ipironi ritanga umuriro ndetse hari n'ibiti biteye bikuze.

Inzu, inyubako ndende ifite urugo ruyizengurutse, mu imbere mu rugo harimo indabyo ndetse inyuma y'urugo ku marembo yayo, hari icyuma giteye kirekire gifite amatara, harimo indabyo, hari n'ibindi biti.

Abantu bahagaze hanze y'inzu ku rubaraza rwayo, ni abantu benshi, harimo abana bato, abagabo, abakobwa n'abamama, iruhande rwabo hari indabyo ndetse hari n'agahanda gatoya, kajya kuri iyo nzu.

Ikibuga kinini gikinirwamo umukino w'amaboko, iki kibuga hakurya yacyo hari abantu bicara bareba abakina umupira ndetse no hejuru y'aho abantu bicara, harimo akandi kazu gatoya abantu bicaramo iyo bari gufana umupira.

Ni inyubako zubatse kimwe iruhande rwayo hari itara ndetse zose hejuru mu gasongero k'inzu zifite akantu kahubakiye, izi nyubako zifite amabara asa kandi zubatse kimwe, iruhande rwazo hanyura umuhanda w'igitaka.

Abantu benshi bicaye hamwe, bafite akantu gashinze mu rupapuro, bagafite mu ntoki, harimo abamama n'abagabo ndetse bicaye ahantu hari ibyatsi.

Ni umugabo uhagaze ahantu hubakiye, iruhande rwe hari umugabo uri guseka ndetse iruhande rw'uwo mugabo ufashe mikoro hari akabati bahagaze mu byatsi ahantu hafi yaho hari umuhanda.

Abagabo batatu n'umugore umwe bicaye ku meza ndetse imbere yabo bose hari amazi, bafite impapuro bari kwandika, hanarambitse telefoni, bicaye mu ntebe z'umukara ndetse barimo barandika umwe muri bo arimo ari kwirebera hakurya.

Inama yiganjemo abagore n'abagabo n'abayobozi abadaso inama abagore barimo barafata ibihembo bigaragara ko bari kubahemba harimo abagabo bambaye ingoma n'umugabo umwe wambaye ingofero wambaye imipira amashatasa y'imikara abandi baricaye barimo barareba ibi bihembo babahaye.

Abagabo batanu bahagaze hamwe, bari kumwe n'umugabo ushinzwe inzego z'umutekano, inyuma yabo hari insina nyinshi ndetse hari n'ibiti, aho hantu bahagaze hari igitaka kandi hasi harambuye ibiti bitoya biciyemo.

Imodoka ya rouger buldo ifite imyanya ine, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, igeze ahantu hari icyapa, kigaragaza ko hakorerwa ubucuruzi bw'inzoga.

Imodoka iri ahantu mu rugo ahantu iparitse ndetse, iyi modoka iruhande rwayo hari moto, iyi modoka iparitse imbere y'umuryango ukinguye, iyi modoka nta muntu uyirimo, iyi modoka iri yonyine ahantu iparitse hanze.

Icyuma gifata kikanapima umuvuduko, kigafata amashusho y'ibinyabiziga, iki cyuma gishinze ahantu mu ishyamba, iruhande rwacyo hari ibiti ndetse hari n'ibyatsi.

Umuhanda nyabagendwa uriho amazu menshi ndetse uyu muhanda ni uwa kaburimbo. Iruhande rwawo hari abantu bafite umutaka batanga amayinite ya Airtel ndetse uyu muhanda ufite indabyo ni ibyatsi iruhande rwawo.

Icyapa giteye iruhande rw'umuhanda gishushanyijeho pa ndetse gishushanyijeho n'imodoka ebyiri iki cyapa iruhande rwacyo hari imodoka ihari ndetse haruguru y'iyo modoka hubatse amazu ayubatse ku murongo ariko afite amabara atandukanye.

Iki ni icyapa cyanditseho Karangagazi ndetse I uhande rwicyo cyapa hari indabyo, hari igiti gitanga kiriho umuriro ujya mu baturage ndetse hari n'ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye.

Icyapa kiri ku muhanda kigaragaza aho ibiro bya Nyagatare bishinzwe umutekano giherereye kuri metero magana atanu uvuye hano icyapa iki cyapa kiri, iki cyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo ahantu hari indabyo ndetse hari n'ibiti iruhande rw'iki cyapa, uyu muhanda uzengurutswe n'ibiti n'indabyo.

Ni icyapa cyanditseho umubare cumi na kabiri ndetse kiri ahantu ku muhanda, hari ibiti hari n'indabyo, hari n'amatara ari kwaka kuri uwo muhanda, ni umuhanda muremure. Iruhande rw'icyo cyapa hubatse n'inzu ndetse yubakishije amatafari, iteye n'umucanga.

Umuntu atwaye moto itwara imizigo ndetse uwo muntu ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwe hari amazu yubatse nk'ayubucuruzi.

Umugabo utwaye moto ahantu mu muhanda ushashemo amabuye gusa, umugabo afite kasike ebyiri ndetse iruhande rwe hari inzu ifite ibara ry'umuhondo hari n'ayandi mazu y'ubucuruzi.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho ijana na mirongo ine n'umunani, iki cyapa ahantu kiri hari indabyo ndetse iki cyapa kiri ku muhanda w'igitaka, hakurya y'uwo muhanda na ho hari indabyo ndetse hari n'inzu.

Abantu benshi bari hamwe ariko abantu bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari amazu hari n'ibiti aba bantu harimo abagore n'abana n'abasaza n'inkumi bicaye ahantu mu twatsi.

Umugabo wikoreye ibuye ku mutwe ndetse uyu mugabo iri buye arifatishije amaboko, iruhande rwe hari umuhanda w'igitaka ndetse haruguru y'u muhanda hahagaze umuntu uri iruhande na we rw'insina.

Hari abantu benshi bari ahantu hamwe bamwe baricaye abandi barahagaze hirya yabo hari ibiti ndetse n'impande za bamwe na bamwe hari mu myaka, harimo abana, harimo abakobwa, harimo abagabo ndetse n'abakuze bamwe bari gukoma amashyi abandi bari kwishima ariko ntabwo bari mu cyerekezo kimwe kuko bamwe barahagaze abandi baricaye.

Abantu benshi bahagaze ku murongo umwe, bari guhinga bose bafite amasuka kandi amasuka bafite ni imijyojyo, aba bantu harimo abagabo, harimo n'abagore ndetse harimo n'urubyiruko bari guhinga umurima, inyuma yabo hari ibiti ndetse aba bantu bari guhinga ku ntangiriro ni bwo bagitangira guhinga.

Ni abakinnyi bari gukina umupira bari gukinira umupira ahantu h'ikibuga kitarimo n'ibyatsi, hakurya yaho hari ibiti, hari igare ririho amajerekani ndetse hari n'abantu bari kureba uyu mupira.

Umugore ubyibushye uri kwirukanka mu kibuga harimo n'abandi bagabo bari kwirukanka, uyu mugore arirukanka agisohokamo, abandi bagabo bicaye hakurya y'ikibuga ndetse hari n'umugabo umwe ubahagaze imbere uzamuye ukuboko.

Umuntu uri gukina umupira ahagaze mu izamu ari kwiruka atera intambwe nk'ugiye gutera umupira uri imbere ye ndetse imbere ye hahagaze umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo, inyuma y'izamu hari imisozi imeze nk'ama.

Abakinnyi b'umupira bari mu myitozo, bari ahantu mu kibuga hari ibyatsi, inyuma yabo hari ibiti ndetse hari n'imodoka, aba bakinnyi bamwe bazamuye ukuguru, abandi bari gusimbuka, abandi bari kumanika amaboko ndetse bari gukora imyitozo itandukanye.

Umuntu uhagaze mu kibuga yambaye ga n'iyenda yo gukinana umupira, yambaye na godiye, hakurya ye hari amazamu batsindamo ibitego ndetse harimo n'abandi bakinnyi mu kibuga barimo biruka.

Abagabo bahagaze hamwe mu kibuga mo hagati yabo harimo umupira, haruguru yabo y'ikibuga hari amaterasi ndetse hakurya yayo hari amazu yubatse kimwe, aba bagabo aho bahagaze hanyujijemo imirongo y'imyeru ariko bamwe muri bo harimo abambaye ibisa hakaba harimo n'abambaye ibidasa.

Ni abakinnyi bari gukina ni amakipe abiri atandukanye yambaye n'iyenda idasa ikipe imwe yambaye umukara n'umutuku indi yambaye ubururu, hakurya yabo y'ikibuga bari gukiniramo hari abafana, hari n'amamoto, hari n'imodoka, hari n'umuhanda wa kaburimbo, hari n'ibiti aba bakinnyi bari gukinira mu kibuga kirimo ibyatsi ariko urundi ruhanderi hariho itaka.

Ikibuga kinini cy'umupira kirimo abakinnyi bari gukina harimo umukinnyi umwe ufite umupira wanditseho nimero karindwi, uyu mukinnyi niwe ufite umupira arimo awushorera. Hakurya y'icyo kibuga hubatse imisozi ikozemo amaterasi ndetse hari n'ibiti.

Ikibuga cy'umupira kiri kugendamo abakinnyi, harimo umukinnyi wambaye imyenda y'umuhondo, harimo n'umukinnyi wambaye iy'ubururu, harimo n'umukinnyi wambaye iy'icyatsi, imbere yabo hari amazamu batsindamo ibitego ndetse icyo kibuga kirimo n'ibyatsi, harimo n'umurongo w'umweru.

Ikibuga kinini cy'umupira kiri kugendamo abantu bambaye imyenda isa ndetse harimo n'abambaye imyenda idasa, aba barimo baragenda harimo n'abari ku ruhande rwacyo ndetse n'abari inyuma yacyo, hari n'ibiti inyuma yacyo hari n'amazu.

Abakinnyi b'abagabo bahagaze mu kibuga, abandi barimo baragenda bari kugonga cyane baseka ndetse bari mukigenda mu kibuga gifite ibyatsi, icyo kibuga cyubakiye n'urugo.

Umugore uhagaze mu kibuga, afite umupira ku kirenge cye mu kuboko kwe kw'ibumoso afite terefone, imbere ye hahagaze umugabo wifoye nk'ugiye kurwana, yambaye amarinete ndetse iruhande hakurya yabo, hakikije ibyuma, haruguru yaho hari umusozi.

Abakinnyi b'umupira babiri bari mu kibuga bari gukina, umwe yambaye imyenda y'imyeru ndetse anashoreye umupira, undi ari kwirukanka ajya kumwaka, iruhande rw'icyo kibuga harira abantu ndetse hari n'ibyatsi, n'ikibuga bari gukiniramo gifite amazamu, kirimo n'ibyatsi.

Ni nijoro amatara arikwaka ku muhanda wa kaburimbo, aya matara ni menshi ari ku muhanda kandi yose ari gutanga umurasire ndetse ari no gutanga urumuri ku muhanda, hejuru y'aya matara hari igicu cy'umukara.

Umuntu uri kugenda ku igare yambaye isengeri atwaye igare mu muhanda muremure wa kaburimbo, hakurya ye hari ibiti ndetse hari n'amatara ku muhanda, hari n'imodoka, hari n'umutaka w'umuntu ucuruza amayinite.

Uyu ni umuhanda wo mu giturage, uyu muhanda impande zawo ukikikijweho n'amatara ndetse hariho ibyapa, hariho n'ibiti ndetse haruguru y'umuhanda haratuwe.

Umuhanda muremure uterera w'igitaka, iruhande rwawo hari inzu ndetse hari n'ibiti, hari n'imyaka, hari n'ibiraro bitoya byambukiranya bijya mu nzu z'abaturage.

Umuntu uri kugenda mu muhanda w'abagenzi ariko iruhande rwe hari umuhanda wa kaburimbo, hari ibiti binini birebire ku muhanda ndetse hari n'imodoka, hari n'abandi bantu bicaye muri ibyo biti biri ku muhanda.

Umuntu uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Uyu muntu iruhande rwe hakurya y'umuhanda hari moto, moto ziriho abantu ndetse hari n'amazu, hari n'ibiti inyuma y'ayo mazu...

Inzu ziri ahantu ku muhanda inyuma yazo hari ibiti zegereye umuhanda wa kaburimbo ndetse umuhanda urimo indabyo, uteyemo utwatsi ku nkengero zayo hari n'ikiraro cyambukiranya ku uwo muhanda.

Ni umumama uri kugenda mu muhanda uhetse igikapu afite n'agatambaro k'umutuku, uyu mumama ari kugenda mu muhanda uteyeho indabyo ku ruhande rwayo, hari n'ibiti, hari n'amasinga y'imiriro ndetse hari n'amatara ku muhanda, ni umuhanda wa kaburimbo ugoteshejwe n'indabyo.

Moto iri kugenda icanyi itara itwawe n'umuntu umwe ahetse undi, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo haruguru y'uwo muhanda hari indabyo ndetse hari n'amatara ku muhanda, uyu muhanda bari kugendamo hakurya yawo ufite amazu ndetse hatuye n'ibi hari n'ibiti.

Umuhanda w'igitaka muremure ucuramye haruguru yaho mu mpinga yaho, hubatse amazu ndetse hari n'abantu barimo bahagenda, hari ibiti, hari ibyatsi, hari n'amasinga y'imiriro iruhande rw'ayo mazu.